Umutaka uri mu ibara ry'umutuku bikaba bigaragara ko aha ahantu ari ahacururizwa ibigendanye no kwakira no kohereza amafaranga n'ibigendanye n'itumanaho nko kuvugana n'abantu. Uwo mutaka uri ahantu kuri kaburimbo, iyo kaburimbo ikaba ikikijwe n'ibiti, ikaba ifite n'insinga zitwara amashanyarazi hafi aho.

Amagare ahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko ayo magare akiri mashyashya, hirya y'amagare hakaba hicaye abantu bambaye imyenda, biganjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo, uko bigaragara, akaba ari ayo magare ashobora kuba agiye guhabwa nk'abo bantu, abo bantu aho bicaye inyuma yabo hateye ibiti, akaba bigaragara ko haparitse n'imodoka.

Akabati bigaragara ko gatangirwamo ibigendanye no kwakira no kohereza amafaranga cyangwa se n'ibigendanye n'itumanaho, ako kabati kakaba kari mu ibara ry'umuhondo, amagambo yanditseho agaragaza ibikorerwa muri ako kabati akaba yanditse mu ibara ry'umukara n'umutuku, hakaba ari umugabo uhagaze imbere y'ako kabati bigaragara ko hari ibyo ari kubaza nk'umukozi ukoreramo.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo kikaba cyanditse amagambo ari mabara y'umukara n'ubururu bika bigaragara ko icyo cyapa cyamamaza kimwe mu bigo gikorera mu Rwanda gishinzwe gucuruza ibijyanye n'itumanaho no kwakira no kohereza amafaranga iruhande rw'icyo cyakapa hakaba hari umuntu ufite igikoresho twifashisha turimo gutwara imyanda.

Umugore uhagaze mu iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, iryo duka rikaba bigaragara ko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amazi, hakabamo iby'abantu barya nk'imineke n'imbuto nk'avoka, bigaragara y'uko banacuruza amafu y'ubwoko butandukanye n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Akabati kari mu mabara y'umutuku kakaba kanditseho ibigaragaza ibikorerwa muri ako kabati n'inyuguti z'umweru, uko bigaragara akabakoreramo umuntu ushinzwe gutanga no gucuruza serivisi zijyanye n'itumanaho, n'ibijyanye no kwakira no kohereza amafaranga.

Moto ziparitse ahantu hamwe bigaragara ko zishobora kuba ari nshyashya. Izo moto zikaba ziri mu mabara y'umutuku n'umukara n'ibikoresho bimwe muri byo bikaba bifite ibara ryenda gusa n'umweru. Hakaba ari umuntu uhagaze impande yazo, arakora isuku ari kureba nimbe ari nzima cyangwa se uko zimeze.

Abagabo batatu bari hamwewe ku umurongo bigaragarako bashobora kuba barikwegera aho ahatangirwa ibintu bigeneye no kwakira no kohereza amafaranga ndetse no gucuruza ibigendanye n'itumanaho, ahantu hakaba hari akabati gasize irangi ry'umuhondo n'umutuku rigaragaza ibihakorerwa.

Umugabo wicaye mu ntebe iruhande rwe hari amacupa abiri y'amazi, umugabo akaba yambaye imyenda y'umukara n'umweru, mu ntoki ze akaba afite icyapa kigaragaza aho akorera, icyo cyapa kiba cyanditse mu mabara y'umuhondo n'umweru.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga n'ibigendanye no gucuruza ibigendanye n'itumanaho no kwakira no kohereza amafaranga. Abakozi bakaba bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo. Ahantu bari bikaba bigaragara ko ari nk'ahantu abantu bifashisha batega imodoka. Ahantu hakaba hateraniye n'abandi bantu benshi nabo bambaye imyenda igiye itandukanye. Hakaba hari no kugaragara urujya n'uruza rw'amamoto.

Abantu babiri bari ahantu mu cyumba umusore n'umukobwa bambaye imyenda y'umweru hejuru, bose bari kureba muri mudasobwa zabo, bikaba bigaragara ko bashobora kuba bakora ikigo gishinzwe gutanga no gucuruza ibijyanye n'itumanaho no kwakira no kohereza amafaranga.

Inyubako iri mu mabara y'umweru. Iyi nyubako ikaba iriho icyapa kigaragaza ibihakorerwa. Icyo cyapa amagambo acyanditse akaba ari mu mabara y'ubururu n'andi ajya gusa n'umuhondo. Hasi kuri iyo nyubako hakaba hubakishije amabuye. Iyo nyubako ikaba ifite urugi rufite ibara ry'umweru.

Umugabo uhagaze ahantu bigaragara ko aho ahagaze hari abantu areba, umugabo afite akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, umugabo akaba yambaye ishati ifite ibara ry'ikigina, inyuma bikaba bigaragara ko hari ibiti birebire byinshi, aho ahagaze hejuru hakaba hari igitambaro cy'icyatsi n'icy'umuhondo bigaragara ko bishobora kuba ar'ihema riri hejuru ye.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba bigaragara ko hari umuntu uri kubabwira cyangwa se hari ikintu bakurikiye imbere abantu bikaba bigaragara ko ari abantu bameze neza ni abantu babyibushye b'abasore barimo abambaye imyenda ifite amabara y'ubururu, umukara abandi bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye.

Umugabo uhagaze ufite igikombe mu ntoki bigaragara ko ari nk'umudahari cyangwa se irindi shimwe yishimiye. Imbere hakaba hari abantu bari gukoma amashyi. Ahantu ari hakaba hari n'undi mubyeyi uri impande ye na we uhagaze. Hakurya yabo urebye hakaba n'aho hicaye abantu benshi babahanze...

Abantu bicaye ahantu mu cyumbaba, bigaragaza ko abantu bashobora kuba bari nko mu nama cyangwa se hari ikindi kintu bari kuganiraho, abantu bakaba bagiye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, abiganjemo bambaye imyenda ifite amabara y'umukara, abandi imyenda ifite amabara y'umweru n'umukara, hakaba hari ameza na mudasobwa, bigaragaza ko bari kuganira nk'ibintu bijyanye n'amafaranga cyangwa se indi mishinga.

Akabati karimo amacupa y'ibyo kunywa bigiye bitandukanye bigaragara ko hashobora kuba harimo ibyo kunywa bisembuye n'ibyo kunywa bisambuye cyangwa ibyo dukunze kwita ibyo kunywa byoroshye, ibyo byo kunywa bikaba biri mu mabara agiye atandukanye, icyatsi, umuhondo, ubururu, ariko urebeye kure ku kabati ibara ryiganje ni ibara rijya gusa n'umuhondo.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe n'ameza bigaragara ko ari ahantu abantu kwifashisha baruhukira cyangwa bafata nk'icyo kunywa, cyangwa se ari nk'ahantu aho dukunze kwita mu kabari. Icyo cyumba kikaba kirimo intebe nyinshi n'ameza biri ku murongo.

Ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, biteretse ahantu mu kabati, bigaragara ko ibyo binyobwa, ibyinshi ari ibisembuye, ibinyobwa bikaba biri mu mabara atandukanye, umutuku icyatsi, ibindi bikaba bisa n'amazi.

Inzu nini cyane igaragara ko ari inzu y'ubucuruzi, iyo nzu ikaba ifite ibara ry'umutuku hejuru sigaka ifata ibara rijya gusa n'iki hakurya y'iyo nzu hakaba hari izindi nzu ndende izo nzu zikaba zifite amabati ari mu ibara ry'umutuku hakurya yazo bikaba bigaragara ko hari naho izindi nzu nyinshi cyane.

Ahantu bigaragara ko hashobora kuba hari buteranire abantu benshi, hakaba hari intebe zose ziri mu ibara ry'umutuku, hakaba hari imitaka iri mu ibara ry'umutuku n'inzu zihubatse zikaba zubatse mu ibara ry'umutuku, usibye ntoya ifite ibara ry'ubururu.

Akabati bigaragara ko karimo ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, bikaba bigaragara ko hashobora kuba harimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, imbere y'ako kabati hakaba hateye ameza ariho intebe nyinshi, bigaragara ko ari ahantu abantu bashobora kuba, kwicara, bafata icyo kunywa, baruhuka cyangwa se baganira.

Intebe ziri ahantu hamwe. Hakaba harimo intebe zifite amabara agiye atandukanye. Hakaba ari intebe zifite amabara y'ubururu, izindi zikaba zifite amabara y'icyatsi. Hirya yazo hakaba hateretse ibindi bikoresho byifashishwa mugo harimo kn'amabasi, imeza; iyo meza ikaba iteretseho impano zifunze neza. Urebye hakurya yabyo hakaba haparitse imodoka.

Umubyeyi uri ahantu bigaragara ko hashobora kuba ari ahantu hacururizwa imyenda, imyenda igiye iri mu moko atandukanye, bikaba bigaragara ko bashobora kuba bacururizamo imyenda y'abana, iy'abakuru ndetse n'iy'abantu b'urubyiruko nk'abasore, umubyeyi akaba yambaye amadarubindi, akaba afite umusatsi mwiza wa kinyarwanda.

Amavuta y'ubwoko butandukanye, ari ahantu aho acururizwa, ayo mavuta akaba afunze mu ngeri zigiye zitandukanye, harimo afunze mu macupa manini, andi akaba afunze mu macupa matoya. Ayo macupa akaba ateretse ahantu mu kabati, aho acururizwa.

Umwana w'umuhungu uhagaze mu iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, uwo mwana w'umuhungu akaba yambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru inyuma ye hakaba ari kugaragara ibicuruzwa bye, ibicuruzwa bye akaba ari ibicuruzwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi dukunda kwita ubuconsho.

Iguriro ry'ibintu bitandukanye hakaba harimo ibyo dushobora kwifashisha mu buzima bwacu hakaba harimo amafu y'ubwoko butandukanye amagi, isukari, umunyu n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba hari igare cyangwa agakinisho k'abana gakoze mu buryo bw'igare nk'abana bato.

Ifoto iri kugaragaza ahantu hashobora kuba ari nk'ahantu hacururizwa tukaba turi kureba ingufuri iyo ngufu ikaba iri kumwe n'imfunguzo zayo ikaba imanitseho akandi kantu bigaragara ko gashobora kuba ari nk'akamarete, iyo ngufuri ikaba ifashe ahantu ku rubaho.

Akabati gakozwe mu ibara ry'ikiginaba kaba gakozwe n'imbaho kakaba kagaragara gafite impande enye hirya yako hakaba hari intebe iteye inyuma. Hakaba hari imbaho zihagaze n' ibara ry'ubururu.

Abantu bambaye impuzankano ifite ibara rimwe. Iyo mpuzankano ikaba ifite ibara rijya gusa n'umutuku ariko utagaragara neza. Ahantu bahagaze hakaba hafite ibara ry'icyatsi. Bikaba bigaragara ko bashobora kuba bari nko gusenga cyangwa se ikindi gikorwa bose bahuriyeho nko kwibuka umuntu.

Inzu nini ikaba isakaje amabati y'umutuku bigaragara ko yubakishijwe amatafari, mu kubabaka iyo nzu bigaragara ko igihe yubatse mu buryo bugiye ari inkingi zigiye zicomeka zihereza izindi, iyo nzu ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi bigaragara ko iyo nzu ari urusengero.

Inzu yubatse ahantu nini, ikaba ifite amabara y'umweru, ikaba isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hakaba hari ubusitani bunini buteyemo ibyatsi byiza, iyo nzu ikaba ifite inkingi ndende, inkingi zayo zikaba zubakishije amatafari, bikaba bigaragara ko iyo nzu ishoborara kuba ari nk'urusengero.

Abantu bari ahantu mu birori, bigaragara ko bishimye, bikaba bigaragara ko bamwe bashaka kubyinisha abandi. Abantu bakaba bambaye imyenda myiza, abadamu bambaye imyenda y'amakanzu, abagabo benshi bambaye amakoti n'amashati. Bikaba bigaragara ko buri wese yiziwe, ashaka kubyinisha undi.

Umugabo uhagaze ku cyapa umugabo akaba yambaye ishati y'umweru, ipantaro y' yumukara, karuvati amabara yumweru numukara, umugabo akaba afite umusatsi, icyo cyapa hasi yacyo hakaba hateye ubusitani butoshye buri mu mabara yi'icyatsi, hateyemo ibyatsi byinshi.

Abana b'abanyeshuri bateraniye hamwe bicaye ahantu bambaye impuzankano bigaragara ko iri mu mabara y'ubururu n'umukara. Imbere yabo hakaba hahagaze umupadiri wambaye ikanzu iri mu mabara y'umweru n'ingofero iri mu mabara y'umutuku bikaba bigaragara ko hari ubutumwa ari ku bagenera.

Ibikoresho bya kinyarwanda biri ahantu ibyo bikoresho bikaba biri mu mabara agiye atandukanye hakaba harimo bifite amabara ajya gusa n'umutuku ibindi bikaba bifite amabara ajya gusa n'ibara ry'umweru hirya yacyo yabyo hakaba hari ibindi bikoresho nabyo birambuye hasi ku musambi.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bugeretse, bikaba bigaragara ko ari inyubako igeretse rimwe, iyo nyubako ikaba ifite amabati y'umutuku, iyo nyubako ikaba ifite imiryango n'amadirishya biriho irangi ry'umweru, iyo nyubako yo ikaba ifite irangi rijya gusa n'ikigina cyangwa risa n'ita inyuma y'ayo nyubako hakaba hari ibiti mu gicu hejuru y'iyo nyubako hakaba harimo ibicu byinshi.

Ahantu abantu bifashisaha bari kuruhuka cyangwa se bafata icyo kurya cyangwa icyo kunywa. Akaba ari ahantu bigaragara ari ahantu heza. Hakaba hari kugaragara ahantu abantu biyakirira hari intebe n'ameza abantu bicaraho bari gufata amafunguro cyangwa se ibyo kunywa.

Icyumba kirimo igitanda. Icyo gitanda cyaba gisasheho amashuka afite ibara ry'umweru andi afite ibara ry'umukara. Hafi yicyo gitanda hakaba hari akabati gato kari mu ibara ry'umutuku. Icyo cyumba kikaba gifite inkingi zifite ibara rijya gusa n'ikigina. Hasi muri icyo cyumba hakaba hasashemo amakaro.

Icyumba cyiza cyane cyakirirwamo abantu kubera ko bigaragara ko hakirwa abantu baje kwiyakira cyangwa se baje kuharuhukira no gutembera bikaba bigaragara ko hari ameza buri meza ikaba iteretseho intebe ushobora kwicaraho uri kwiyakira ufata icyo kunywa cyangwa se icyo kurya.

Umuhanda bigaragara ko ari umuhanda wa kaburimbo, umuhanda ukaba ugiye uciye imbere y'inyubako nini, izo nyubako bigaragara ko zubatse mu buryo bugeretse, uwo muhanda impande yaryo ya wo hakaba hateye ubusitani bwiza buteyemo ibiti n'ibyatsi bigaragara ko ari byiza.

Inkingi zifatiyeho amatara, bigaragara ko amurikiye ahantu ku muhanda, aho zihagaze hakaba hateye ibyatsi cyangwa se ubusitani bugaragara neza, hirya yazo hakaba hameze nk'ahantu mu kibuga, harimo ibara ry'ubururu.

Ubusitani bucunze neza burimo ibyatsi bigaragara ko nabyo byitaweho hirya yabyo urebye neza hakaba hari ahantu bigaragara ko ari aho abantu bashobora kwifashisha bari koga nk'abantu bagiye kuruhuka urugero nk'abantu bakundana cyangwa se mu muryango.

Inyama ziri ahantu bigaragaraga ko hari inyama zabazwe, ahantu ziri hakaba ari ahantu bishobora kuba ari nk'ahantu mu cyumba cyangwa se ari ahantu mu kabati zibikwa, hafi y'izo nyama hakaba hari isorori cyangwa se igisuperi, icyo cyumba kikaba gifite amabara y'umweru.

Amarembo agaragaza ahantu twinjirira tujya muri icyo kigo, aho hantu ukobigaragara akaba ari ikigo cyangwa se inzu yakira abantu ikaba itanga ibigendanye n'amafunguro no kurya no kuharuhukira ahantu hakaba hakikijwe n'ibiti.

Icyumba kinini cyane, giteyemo intebe n'ameza, kikaba giteyemo intebe nziza, ziri mu mabara y'ubururu n'ameza ari mu mabara y'umweru, hirya hakaba hari izindi ntebe, ziri mu mabara y'umweru, buri ntebe imbere yayo hakaba hagiye hateye ameza, bikaba bigaragara ko hashobora kuba ari ahantu, mu kabari cyangwa ahantu bashobora gukoresha baruhuka cyangwa se biyakira.

Ameza bigaragara ko ari ameza abantu bafatiraho ifunguro kuri ayo meza hakaba hateretseho isahani iriho ibyo kurya bitandukanye hakaba hari n'ibiyiko byifashishwa mu kurya ibyo biryo ko bigaragara urebeye inyuma inyuma y'iyo nyubako ayo meza arimo hakaba hari umusozi uteyeho ibiti wubatseho n'amazu.

Ikibuga giteyemo ibyatsi byiza hakurya y'icyo kibuga hakaba hubatse inzu nini iyo nzu ikaba yubatse mu buryo bugeretse hafi hagati y'inshuro ebyiri n'eshatu, iyo nzu ikaba ikaba iri mu mabara y'umweru n'andi ajya gusa n'umuhondo.

Inyubako yakirwamo abantu bigaragara ko ari nk'ahantu bashobora, abantu bashobora gufatira ibyo kurya, ibyo kunywa bari kuruhuka cyangwa se baje nko kuhasoreza icyumweru akaba ari abantu bigaragara ko ari abantu benshi bateraniye hamwe bahagaze.

inzu yubatse mu buryo bugeretse bigaragara ko ishobora kuba igeretse inshuro zigera kuri ebyiri iyo nzu ikaba iteye irangi ry'umuhondo impande y'iyo nzu hakaba hagiye hateye ubusitani butoya warebye neza imbere y'iyo nzu akaba ari ahantu abantu bashobora kuba bakoresha boga cyangwa se baruhuka.

Abantu babiri umwe yicaye undi ahagaze, uhagaze akaba bigaragara ko ashobora kuba kwakira uwicaye, uwicaye akaba yicaye ahantu mu ntebe nziza z'umukara, hakaba hari ameza imbere ye, ameza ni ay'umukara, bigaragara ko ari ahantu hashobora kuba ari nk'ahantu yagiye kuruhukira, imbere yabo hakaba hari umusozi, bigaragara ko uteye ibyatsi byiza, bishobora kuba biri gutanga amahumbezi aho hantu bari.

Umugabo wambaye agapfukamunwa akaba yambaye ishati y'umweru, hasi akaba yambaye ipantaro y'umukara, akaba yambaye ikote rijya gusa nk'ikigina, akaba afite ikirahuri agiye guterura bigaragara ko gishobora kuba kirimo inzoga. Aho hantu bari bigaragara ko ari mu kabari cyangwa abantu bifashisha baruhukira bafata nk'icyo kunywa cyangwa icyo kurya.

Icyumba kirimo igitanda gisashe neza, icyo cyuyuma kikaba gifite amabara y'umweru ku nkuta zacyo, igitanda kirimo gisasheho amasuka afite ibara ry'umweru uko bigaragara ahantu hakaba ari ahantu abantu bagiye kuruhukira bashobora kurara aho dukunze kwita mu kabari.

Icyumba bigaragara ko gishobora kuba ari nk'icyumba cy'uruganiriro, kikaba giteyemo intebe n'ameza, bika bigaragara ko imbere hari ahantu hashobora kuba hari akabati karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, bikaba bigaragara ko hashobora kubamo ibyo kunywa, ibisembuye cyangwa se n'ibidasembuye, icyo cyumba kikaba hejuru gifite ibara ry'umutuku usa nk'uwijimye utagaragara neza.

Ahantu hari kugaragaza ahantu abantu bashobora kogera cyangwa se gukiniramo ariko akaba ari ahantu mu mazi, inyuma yaho hakaba hari kugaragara ahandi hameze nk'ikibuga itiyerimo ibyatsi n'ibiti, iruhande rwacyo hakaba hari ahandi hameze nk'ikibuga gikinirwamo imikino y'intoki. Urebye ku wundi musozi, hakaba hateye ibiti.

Icyumba cyiza cyane bibwira ko abantu bashobora kukifashisha baganiramo cyangwa se bakoreramo nk'ibirori, icyumba kikaba kirimo intebe n'ame abantu bashobora kwifashisha bicaraho banafata ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya mu gihe baruhutse cyangwa se bari kumwe n'inshuti zabo.

Icyumba kinini cyane kirimo ibitanda bibiri bishasheho amashuka ari mu ibara ry'umweru, muri icyo cyumba hakaba harimo amatara amurikira abantu bashobora kuba bari muri icyo cyumba, ibyo bitanda biri muri icyo cyumba bikaba bigaragara ko bishobora kuba bifite ibara ry'umukara.

Inzu yifashishwa mu kwakira abantu baharuhukira, bahafatira icyo kunywa cyangwa se icyo kurya. Imbere y'iyo nzu akaba ari ahantu hari amazi nk'abantu bashobora kwifashisha boga cyangwa bahukiramo cyangwa se bakiniramo. Iyo nzu ikaba yubatse mu buryo bugeretse, ikaba isize irangi rijya gusa n'ikigina.

Inyubako ndende bigaragara ko yubatswe mu buryo bugeretse. Inyubako ikaba ifite amabati, ari mu ibara ry'umutuku. Hasi kuri iyo nyubako hakaba hagaragara ko iyo nyubako ifite ibara, ry'icyatsi. Iyo nyubako ikaba ikikijwe n'izindi nyubako ngufiya. Iyo nyubako hakaba hari urutsinga ruzanaho amashanyarazi. Hejuru mu kirere bikaba bigaragara ko harimo ibicu byinshi byiganje bishobora gutanga imvura.

Abantu bicaye ahantu bigaragara ko bari mu nama, bakaba bicaye buri imbere yabo hari ameza buri wese imbere ye hakaba hateretse agacupa kamazi, aba bantu bakaba bambaye imyendaye igiye itandukanye harimo abambaye imyenda ibara y'umukara abandi umutuku abandi umwe abandi aho bica bikaba bigaragara ari ahantu mu cyumba ariko inyuma y'icyo cyumba urebeye murohure bi bikabwira ko hateye ibiti.

Abantu bigaragara ko bashobora kuba bari ahantu mu isoko turi kubona abantu bari mu nge zitandukanye, turi kubona abana, abagore n'abagabo. Umwana umwe uwo turi kubona cyangwa se umugore akaba akaba yikoreye karimo ibikoresho bitandukanye karimo nk'ibikombe n'ibindi bindi. Urebeye hirya, hejuru ukaba uhabona ibindi bicuruzwa birimo nk'imyenda.

Imyenda myinshi iteraniye ahantu hamwe bikaba bigaragara ko iyo myenda igiye izingazinze. Iyo myenda ikaba ifite amabara agiye atandukanye avangavanze, harimo igiye ifite amabara y'umukara n'umweru n'ikigina, ikaba igiye ifite amabara yiganjemo ajya gusa n'ivu.

Isoko ry'imyenda hari abantu batandukanye, hari abaje kugura imyenda abaje kuyicuruza iyo myend ikaba ibigiye irimo amabara atandukanye umukara ,umweru, umutuku, n'ubururu. Hakurya yaho hakaba hari kubakwa inzu ndende y'igorofa.

Ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi. Ibyo dukunze kwita imihini y'amasuka. Iyo mihini hakaba arimo ihambiriye, indi ikaba idahambiriye, bikaba bigaragara ko ari imihini myinshi kandi ibajije mu buryo bumwe.

Isoko bigaragara ko ari isoko ry'ibintu bigiye bitandukanye muri iryo soko hakaba hari kugaragaramo imyenda y'amoko atandukanye hafi tukaba turi kureba umwana wikoreye umusambi umwana akaba yambaye imyenda y'amabara y'umutuku, inkweto z'amabara ajya gusa n'ubururu, yambaye n'agapira kari mu mabara y'umuhondo n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu, abantu bakaba biganjemo abantu bari ku mamoto, abantu bari kugendera ku mamoto, bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, umweru, umukara n'ayandi n'ayandi, ahantu bari kugendera muri uwo muhanda, bikaba bigaragara ko harimo akavuyo k'abantu benshi kuko ari umuhanda ukikijwe n'amazu.

Isoko bigaragara ko ririmo abantu benshi b'ingeri zitandukanye, hakaba harimo abadamu bafite imitaka batwikiriye impinja zabo, hakaba harimo n'abandi b'abagabo bicaye ku byo baje kugurisha.

Ahantu bigaragara ko ari ahantu abantu bashobora kubafatira nk'icyo kurya cyangwa icyo kunywa, bikaba bigaragara ko hari ameza ateguye neza hariho amasahani hariho n'ibitambaro bigaragara ko bishobora kuba bitwikiriye ibyo kurya, hari n'intebe bigaragara ko ari izo abantu bicaraho.

Umuntu uri kugendera kuri moto akaba ahetse undi, aba bantu bose bakaba bambaye ingofero zibafasha kuba bakirinda bahuye n'impanuka, bakaba bari kugendera ku muhanda wa kaburimbo. Urebye hakurya y'uwo muhanda hakaba hubatse inzu nini ziri mu mabara y'umweru, imbere y'izo nzu hakaba haparitse imodoka z'amabara y'umukara.

Umugabo uri kugendera kuri moto mu muhanda wa kaburimbo, muto ari kugendaho ikaba ifite ibara ry'umutuku, ibyuma biyikoze bikaba bifite ibara rijya gusa n'umweru, uwo mugabo akaba yambaye imyenda y'umukara n'umweru n'umutuku. Iruhande rwe hakaba hari abandi bantu bari kugendera mu muhanda ukikije iyo kaburimbo.

Umugabo uri kugenda ku igare akaba afite akajerekani imbere ye mu mahembe inyuma akaba ahetse umufuka bigaragara ko uwo umufuka ushobora kuba urimo nk'ubwatsi wenda bw'amatungo, umugabo akaba ari kugenda mu muhanda bigaragara ko ashobora kuba ari umuhanda wa kaburimbo, hirya ye ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari kugaragara imodoka nayo isa nk'ipakiye imizigo.

Utwaye moto we n'uwatwaye bakaba bambaye ingofero zafasha kwirinda mu gihe cy'impanuka bakaba bari kugenda mu muhanda w'amabuye urebye hakurya bakaba bubatse inzu nini iri mu mamabara y'umutuku imbere y'iyo hakaba hateye ubusitani burimo ibyatsi byiza.

Moto iparitse ahantu, iyo moto ikaba ifite amabara y'umweru n'umukara n'umuhondo iyo moto hakaba hari umugabo we bigaragara ko ashaka kuyikoraho umugabo hakaba hari kugaragara ikiganza cye n'agace gato k'intoki bigaragara ko yambaye ishati ifite amabara y'umweru.

Abagabo bari kugenda mu muhanda bari kugendera kuri moto, akaba bari kugenda mu byerekezo bitandukanye, umwe ari kumanuka undi ari kuzamuka, umwe ahetse undi mugabo kuri moto zisa, undi ari wenyine kuri moto, bigaragara ari kugenda mu muhanda dukunze kwita umuhanda w'amabuye, umuhanda bikaba biragaragara ko ku ruhande rwawo hakikijwe n'inzu.

Moto ipakiye ibintu byinshi, muri ibyo bintu ipakiye hakaba harimo ibitoki n'imifuka irimo ibintu bigaragara ko bishobora kuba ari ibirayi, kuri iyi moto hakaba hicayeho umugabo uyitwaye, iyo moto ikaba iri mu mabara y'umutuku, umukara, haruguru y'iyo moto hakaba hari umuntu uri gutambuka, hirya yaho urebye neza ukahabona imodoka iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Umugabo uri kugenda kuri moto, uwo umugabo akaba yambaye akarindamutwe kari mu ibara ry'umuhondo, iyo moto ari kugendaho ikaba iri mu mabara y'umuhondo, umutuku n'umukara, imbere ye mu muhanda hakaba hari imodoka nyinshi n'abantu benshi, hakurya bikaba bigaragara ko hateye igiti bakunze kwita umukindo.

Umugabo uri kugendera kuri moto, moto ari kugendera ikaba iri mu mabara y'ubururu n'ibindi bikoresho bikoze iyi moto bikagaragara ko bifite ibara ryenda gusa n'umweru hakurya yaho ari kugendera hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti cyangwa se indabo zigaragara ko ziconze neza.

Umugabo uri gucunga igare, akaba acunze igare rihetseho ibintu bitandukanye, harimo amakarito n'imifuka, uwo muntu akaba yambaye imyenda y'umukara hose, umuhanda ari kugendamo ukaba ukikijwe n'ubusitani butoya buteyemo ibyatsi.

Umusore uri ku igare wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu hasi akaba yambaye ipantaro ifite ibara rya kake, akaba ahetse umuntu bigaragara ko ashobora kuba ari umuzungu, uwo muntu ahetse akaba yambaye hasi umweru, hejuru umukara, hirya yabo hakaba hateye ubusitani burimo ibiti by'ibara ry'icyatsi.

Umuntu utwaye moto, uwo muntu akaba yambaye ikote ry'umutuku, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru. Akaba atwaye moto na nayo iri mu mabara y'umutuku, bimwe mu bikoresho bikoze moto bikababara y'umweru. Uwo muntu akaba ahetse umufuka ufite ibara ry'umweru no mu mahembe imbere akaba afite agafuka kari mabara y'umweru n'umutuku. Akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti.